Imodoka iri mu ibara ry'umweru n'umutuku bita imbangukiragutabara, iri mu muhanda izamuka, hirya yaho hari ibiti birebire hariyo n'abandi bantu bigaragara ko abantu bahata...

Icyumba kirimo abantu bambaye impuzankano bisa nk'abaganga, bakaba bari kumwe n'abarwayi bafite ibyuma bifata amaraso bano barwayi, icyumba barimo kikaba kirimo imeza iteretseho uducupa turimo amazi.

Inzu nini igaragara nk'aho baje kuyivuriramo abantu, iyo nzu ikaba irimo ibikoresho abaganga bifashisha bari kuvura abarwayi iyo nzu kandi ikaba irimo intebe bigaragara yuko bari kuze kuzifashisha bicazaho abarwayi, hakaba harimo n'ibitanda bari kuze kuba baryamyeho.

Itsinda ryabantu barimo abagore n'abagabo bicaye imbere yinzu ifite urugi rusize irangi ry'ubururu, ikaba iyo nzu ikaba yubakishije amatafari y'ibitaka, abo bantu bakaba bicaye basa nk'abari kuganira.

Abantu bambaye impuzankano zitukura bo kwa muganga, barahagaze bari kumva icyo umuntu ubahagaze imbere ari kubabwira, bisa nkaho ari amabwiriza ari kubabwira y'ibyo bari bukore.

Umurima urimo abahinzi bafite amasuka, biragaragara yuko bari kuhakora isuku kuko hari hasi hari ibyatsi, bisa nkaho bitameze neza, hejuru y'aho bari gukora isuku, hari inzu isize irangi ry'umweru, hakaba hakikijwe n'ibiti birebire.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abarwayi baryamye ku bitand, bigaragara ko hari umuganga ari kubitaho, hakaba harimo n'undi muntu ukoramo isuku kuko arimo arahakoropa, aho aba barwayi baryamye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umuganga wambaye impuzankano, irimo agapfukamunwa yambaye Ga, akaba ahagaze ari gutunganya imiti, hirya ye hari ibyuma bakoresha bavura.

Abagabo bakora kwa muganga bambaye impuzankano yabo yabugenewe, bateruye umurwayi bigaragara ko bamuzanye kwa muganga, hirya yabo hakaba haparitse moto, na none nyuma yabo hakaba hari umumama ubaherekeje.

Abantu bateraniye mu cyumba, bamwe baricaye abandi barahagaze, uhagaze mbona imbere yambaye impuzankano isa nk'aho ari umuntu uri guhugura aba bandi bicaye.

Icyumba cyakira abarwaye cyo kwa muganga, kirimo umugabo usa nk'urwaye kuko hirya ye hariyo umuganga wambaye impuzankano y'abaganga, usa nk'uri kumuvura bigaragara yuko ari we wita kuri uno murwayi.

Abantu benshi barimo abagore n'abagabo bahagaze imbere y'inzu itaruzura, bigaragara ko iyi nzu bakiri kuyubaka, hirya yayo hakaba hari n'izindi nzu zuzuye. Iyi nzu bari kubaka kandi ikaba ishinzeho ibiti bifashisha bari kubaka inzu.

Icyumba kirimo abantu bicaye undi arahagaze, ikigaragara uyu uhagaze ari kubahugura ku bintu bitandukanye kuko abicaye bamuteze amatwi, nawe ari kubabaganiriza, bigaragara ko hari icyo ari kubabwira.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda abarwayi baryamaho iyo barwaye, ibyo bitanda kandi bikaba biriho imifariso myiza ifasha abo barwayi, kuryama nta kibazo bafite, hirya kandi iki cyumba kikaba kigizwe n'ibirahure biri mu madirishya.

Abagabo babiri bateruye imirasire bahagaze imbere y'inzu bigaragara ko iyi nzu bagiye kuyishyiraho uyu murasire. Iy'inzu ikaba isize irangi ry'ubururu n'amabati ayisakaye inyuma yayo hakaba hari ikigega.

Abantu barimo abagore n'abagabo bambaye impuzankano, hasi bambaye amapantaro n'amajipo by'umukara, hejuru bakambara imipira y'umweru, basa nkabari kurahira kuko bashyize akaboko hejuru, bafite nibyo bari gusoma.

Abantu benshi barimo abagore n'abagabo bateraniye ahantu kandi aho hantu harimo n'abasirikare bambaye impuzankano, biragaragara yuko hari umumama uri kubagezaho ikiganiro na bo bakaba bamuteze amatwi kugira ngo bumve ibyo avuga.

Abaganga bambaye impuzankano yabugenewe, bambaye udupfukamunwa hirya yabo hakaba hari intebe, inzu barimo ikaba irimo amakaro y'umweru asa neza ari kugaragara neza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abaganga bambaye impuzankano yabugenewe, bakaba basa nk'aho bari kwita ku murwayi, hirya yabo hakaba hari ibyuma byabugenewe byifashisha bari kuvura abarwayi kugira ngo babakorere serivisi nziza.

Icyumba bifashisha kwa muganga kirimo abaganga babiri n'umugore umwe usa nk'aho yaje kwivuza, iki cyumba cyo kwa muganga kikaba kirimo intebe n'ameza iteretseho impapuro bari kuzurizaho uno murwayi waje kwivuza.

Imbere mu modoka y'imbangukiragutabara harimo intebe hakabamo igikoresho bifashisha bari kuzimya umuriro, iyi mbangukiragutabara kandi ikaba ikinguye uko bigaragara bagiye gushyiramo umuntu.

Umugabo muremure w'imibiri yombi wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'icyatsi kibisi. yicaye mu modoka isize irangi ry'umweru n'umutuku, bigaragara ko iyi ari Imbangukiragutabara, uyu ari umushoferi wayo.

Abantu barimo abagore n'abagabo bicaye, imbere hari undi mugabo usa nk'aho ari kubigisha, ari ku kibaho, ari kubandikira abereka ibyo bagomba gukora.

Icyumba cyo kwa muganga gisa nk'aho kirwariyemo umurwayi ahagarikiwe n'umuganga uri kumureberera, muri icyo cyumba kandi hakaba harimo igitanda, hakabamo ibikoresho bifashisha bari kwita kuri aba barwayi.

Umugabo n'umugore bambaye impuzankano bigaragara ko ari abaganga, umwe aricaye undi arahagaze, bafite ibitabo byinshi bari kuzuza, bigaragara ko bari mu kazi kabo ka buri munsi.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru bambaye impuzankano isa bicaye hasi basa nk'abakikijwe n'abandi bantu bisa nkaho ari abafana, bari baje kubafana mu mupira w'amaguru bakinaga.

Umugabo muremure w'imibiri yombi wambaye ishati y'umweru n'ipantaro akaba ahagaze imbere y'abaturage bahagaze ku murongo bigaragara ko hari ibintu baje gushaka.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igitanda kiriho umufariso bigaragara ko iki cyumba bagikoresha bakira abarwayi, akaba ariho baryama kugira ngo babiteho, iki cyumba kikaba kirimo ibikoresho byose abarwayi bifashisha bari kubavura.

Icyumba kirimo abagore n'abagabo bambaye udupfukamunwa, hirya yabo harimo abagore bateruye abana bigaragara ko bari kwa muganga, bano badamu bazanye abana kubavuza.

Abantu harimo abagore n'abagabo bateraniye mu cyumba harimo umugabo n'umugore bafite mudasobwa basa nkaho bari gutanga ibiganiro kuri bano bandi bicaye inyuma yabo.

Itsinda ry'abaganga batatu, harimo umugore umwe n'abagabo babiri, umugore n'umugabo baricaye, undi mugabo abahagaze inyuma, aba bantu uko bigaragara bafite imiti, bavura impyiko.

Umugabo w'umuganga yicaye mu cyumba yakiriramo abarwayi, icyumba kikaba kirimo intebe n'imeza na mudasobwa, akaba uyu murwayi afite uruhinja mu ntoki, bigaragara ko aje kuvuza uno mwana.

Icyumba kirimo abantu bambaye imyenda y'umweru umubiri hose, bameze nk'abari mu bushakashatsi, bamwe baricaye abandi barahagaze, bisa nkaho ari ibintu bari gukora muri kino cyumba.

Abana bicaranye n'abantu bakuru bari kubagaburira, biragaragara ko aba bana bari ku kigo cy'irero, aba bagabo bakaba ari ababafasha mu buzima bwa buri munsi babagaburira, banabatekera kandi aba bana biragaragara ko bishimye kuko bahawe ibiryo.

Abana bari mwirerero bafite ibikombe birimo igikoma, hari umugabo wambaye impuzankano bigaragara nkaho ari we ubitaho kandi aba bana bigaragara yuko bari muri rino rerero bishimye kuko babona serivise nziza.

Umumama w'imibiri yombi yicaye ku gitanda bisa nkaho ari kwa muganga, ateruye uruhinja, rw'inzobe, bisa nkaho amaze igihe gitoya abyaye, inyuma ye hicaye undi mama na we.

Inzu isakaje amabati y'ubururu iteye irangi ry'umweru, bigaragara yuko aba bantu ari abantu bahakora, iyo nzu ikaba iriho ikigega hakaba hari n'umuhanda ujya kuri iyo nzu ukoze neza bigaragara ko ahantu hari serivisi bahatangira.

Umumama w'imibiri yombi wambaye umupira w'umutuku ari mu bitanda byo kwa muganga, ari kumwe n'umuganga wambaye impuzankano yerekana ko ari umuganga bigaragara ko uyu mumama amaze kubyara kuko ateruye uruhinja.

Umugore wambaye umupira w'icyatsi kibisi w'amaboko aciye afite indangururamajwi mu ntoki, ari kumwe n'abandi bantu bamukikije bigaragara ko hari ikiganiro ari kubagezaho, bakaba bahagaze kugira ngo bumve icyo abagezaho.

Abana bari mu kigero cy'imyaka irindwi n'itanu bicaye hasi bari kugaburirwa n'umugabo uhagaze imbere wambaye ishati y'umweru, ikigaragaracyo aba bana barimo barahabwa ibiryo kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Icyumba kirimo abana b'incuke uko bigaragara barahagaze bari kumwe n'umurezi wabo, basanga nabamanitse amaboko bigaragara ko hari ibyo umurezi wabo ubahagaze imbere ari kubabwira na abo bakamwumvira bakabikora. Iki cyumba kandi kikaba kiriho ikibaho imbere bakoresha bandika kikaba gisize n'irangi.

Abagore bicaye mu cyumba hasa nko kwa muganga imbere yabo hari abaganga bambaye impuzankano zabugenewe, bigaragara ko abo bicaye bateze amatwi aba bahagaze hari ibyo bari kubagezaho.

Umugabo w'imibiri yombi ufashe indangururamajwi mu ntoki, wambaye ikote n'ipantaro y'umukara, imbere ye hicaye abaturage, asa nkaho ari kubagezaho ikiganiro.

Umugore wambaye ikanzu ndende y'amaboko aciye afite indangururamajwi mu ntoki n'igitambaro ateze mu mutwe, bigaragara ko ari mu giterane akaba ari imbere y'abandi bantu ari kubaririmbira.

Abantu barimo abagore n'abagabo, bicaye ahantu mu kibuga mu buryo bw'uruziga, bisa nk'aho bari mu nama hari ibyo bari kuganiraho bitagenda neza bashaka ko bakosora.

Umugore w'imibiri yombi munini ahagaze imbere y'abantu afite indangururamajwi mu ntoki bigaragara yuko hari ikiganiro ari gutanga, abo ari kugiha bakaba bamuteze amatwi kugira ngo babashe kumva ibyo ari kuvuga.

Abantu barimo abagore n'abagabo bicaye ahantu mu nzu bigaragara ko bari mu biganiro, bakaba bicaye bameze nk'abateze amatwi umuntu ubari imbere uri kugira icyo abagezaho.

Abantu bicaye ku ntebe, hagati yabo harimo umuntu ufite indangururamajwi mu ntoki bigaragara ko aba bantu bicaye ari kubabaganiriza kuko bicaye batuje basa nk'abamuteze amatwi.

Icyumba cyicayemo abantu babiri, umwe arasa nk'umuganga kuko yambaye impuzankano yawo, undi asa nk'umuturage bisa nkaho uno muganga ari kumuvura amugira n' inama kuko ari kumuganiriza.

Ivuriro ririmo umuganga wambaye impuzankano, akaba afite ikaramu asa nkaho ari kubara imiti afite. Ivuriro rikaba ririmo intebe, ameza rikaba ririmo n'ibindi bikoresho byifashishwa bibika imiti neza kugira ngo itangirika.

Umuganga w'imibiri yombi, ahagaze mu ivuriro, yambaye itaburiya y'umweru, hijya ye hariyo imiti, n'inyuma ye hariyo iyindi akoresha avura abarwayi.

Inyubako ikoreramo ivuriro rivura rikoresheje ibimera, iri vuriro imbere yaho hariho ibimenyetso biranga icyo bakora n'ibyo bavura n'aho wabasanga ubaye ubakeneye.

Ivuriro ririmo imiti itandukanye rikaba ririmo umugabo w'imibiri yombi wambaye impuzankano, hirya ye hakaba hari undi mugabo usa nkaho amufasha muri buno bucuruzi bw'imiti itandukanye.

Ivuriro ricururizwaho imiti itandukanye, aho mo imbere muri iri vuriro harimo abantu baje kwivuza, harimo umugore uhetse umwana afite n'undi muntu ntoki, hirya y'iri vuriro haparitse iyi moto isa nk'aho izana abagenzi.

Moto ziparitse imbere y'ivuriro, izo moto zikaba zari zizanye uma mama uteruye umwana bigaragara ko umwana arwaye baje kumuvuza, imbere y'iyo vuriro hakaba hari umuhanda ugezweho.

Abantu bicaye ku ntebe hagati yabo harimo ameza bigaragara ko aba bantu hari ikiganiro bari kuganiraho, ahantu bicaye kandi hari inzu yubakishijwe amatafari ahiye, bigaragara ko aba bantu bafite ikintu bari kuganiraho bakaba bagiye kugifatira umwanzu.

Icyumba cyicayemo abantu benshi barimo abagore n'abagabo, bisa nkaho bari mu bganiro kuko imbere yabo hari umuntu uhagaze, asa nk'uri kugira ibyo abasangiza kuko bicaye basa nk'abamuteze amatwi.

Ivomero ririho abantu benshi baje gushaka amazi, barimo baravoma batondetse ibidomoro byinshi, hakaba hari umumama wambaye impuzankano yerekana ko ariwe ukoresha iryo vomero, aca amafaranga abaje kuvoma.

Biganjemo abasore bigaragara ko ari urubyiruko bari hamwe bari kuririmbirwa n'umuhanzi wambaye umupira w'umukara n'ipantaro, akaba afite indangururamajwi mu ntoki bigaragara ko ari kuyikoresha agezaho ibyo ashaka kuri bano bantu.

Ubwoko bw'imiti itandukanye ya kinyarwanda ikoreshwa havura abantu harimo tungurusumu n'ibindi bitandukanye, iyi miti urabona yuko iri ahantu mu gafuka cyangwa utundi tuntu twabugeneye bayishyiramo, iyi miti ikaba ikoreshwa ivura indwara zitandukanye.

Ibitaro byo kwa muganga harimo abaganga bari kwita ku bantu barwaye amaso kuko bafite ibikoresho by'abantu barwaye amaso, aba baganga bakaba bambaye imyenda yabugenewe bari kwita kuri aba bantu kugira ngo babavure ibibazo by'amaso.

Umumama ari mu muhanda ahetse umwana afite n'undi mu kaboko, afite n'isakoshi mu kaboko asa nk'ugiye ku nzu imuri imbere ifite irangi ry'ubururu n'amabati ayisakaye.

Umugore w'umuganga w'inzobe, afite urushinge mu ntoki akaba yambaye ga, akambara n'indi mpuzankano y'abaganga yabugenewe, bisa nkaho agiye gutera umuntu urushinge.

Abantu biganjemo abamama bateruye abana, bicaye mu cyumba bisa nk'aho imbere yabo hari umuntu uri kubagezaho ikiganiro kijyanye n'ubuzima bwa buri munsi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda birwariyeho abarwayi, hakaba hari n'utugare dufasha abantu babana n'ubumuga, akaba muri icyo cyumba gisize irange ry'umweru, harimo amatara harimo ibirahure biri mu madirishya.

Inzu nini isize irangi ry'ubururu ikaba isakajwe amabati nayo y'ubururu, iyi nzu bigaragara yuko ari ahantu h'ubuvuzi abaturage bagana kugira ngo babakemurire ibibazo by'uburwayi.

Inzu yubatse neza, isize irangi ry'ubururu, ikaba iriho inzugi n'amadirishya, ikaba isakajwe amabati y'ubururu, iyo nzu ikaba ikikijwe n'ibiti birebire hirya hakaba hari n'ikigega.

Icyumba kirimo abagore bambaye impuzankano z'abaganga, bigaragara y'uko bari ku bitaro, bakaba bafite ibitabo n'amakaramu biri ku meza, bigaragara y'uko hari ibyo bari kwiga bashaka gukora.

Kirimo abarwayi bigaragara yuko baje kwivuza, imbere yabo hari abaganga bafite mudasobwa ,abo barwayi bicaye ku ntebe zabugenewe ziri muri icyo cyumba. Icyumba kandi kikaba kirimo irangi ry'umuhondo.

icyumba kirimo abayobozi n'abaturage, abaturage bicaye mu ntebe, abayobozi bahagaze imbere yabo basa nk'aho ari amahugurwa bari kubaha kuko bari imbere bavuga abandi babateze amatwi.

Icyumba cyo kwa muganga cyifashishwa bavura abagore kuko barimo baravura umugore uryamye ku gitanda utwite, ari kuvurwa n'umuganga wambaye impuzankano y'abaganga.

Icyumba ba giteraniyemo abantu barimo abagore n'abagabo, aho imbere yabo hahagaze umuntu uri imbere y'ikibaho, bisa nkaho bari mu kiganiro uyu muntu akaba afite ibyari kubagezaho kuko bicaye batuje nk'abari kumwumva.

Icyumba kirimo aba babiri umwe asa nk'aho ari umuganga kuko yambaye impuzankano y'abaganga, hirya ye hakaba hicaye umukecuru usa nk'aho yaje kwivuza. Bakaba Muri icyo cyumba harimo ameza irambitseho impapuro, basa nk'aho bari kuzuza.

Umuma wambaye imyenda miremire igera ku maguru afite indangururamajwi mu ntoki akaba ahagaze imbere ahantu hitaruye abandi, akaba bisa nk'aho ari kugira icyo ageza ku bandi bicaye.

Umuganga w'umukara wambaye marineti akaba yambaye n'impuzankano, ari imbere y'umudamu usa nkaho yaje kwifuza bigaragara yuko hano ari kwa muganga kandi hakaba hari inzu yubatse neza isize amarangi.

Inzu iriho icyapa kiranga yuko aha hakorerwamo ubuvuzi bw'amatungo, bityo rero umuntu w'umworozi wese akaba yagana bino bitaro kugira ngo abonemo imiti y'amatungo, iyi nzu kandi ikaba isize irange ry'umweru.